Abana babiri bakiri batoya barimo baragenda mu muhanda bagiye kwiga bambaye impuzakano ariko biragaragara ko bakiyiga mu mashuri y'inshuke, ni byiza gutangiza umwana akiri mutoya kuko bituma arangiza amashuri ye neza.

Abana biga mu ishuri ry'inshuke biganjemo abakiri bato cyane, hagati yabo hahagaze mwarimu wambaye itaburiya y'umweru akaba arimo arabigisha ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye.

Gahunda ya Leta yo gushyira hamwe abana ku munsi wa nyuma w'ukwezi, ukaba wabatekera indyo yuzuye, irimo kuba bafata igikoma cyangwa se ikaba ikubiyemo ibyo umubiri ukenera igihe cyose.

Mu cyumba cy'ishuri ahantu runaka hari umwarimu urimo arigisha abana b'inshuke, yambaye itaburiya y'umweru, akaba afite imisatsi y'imikara miremire, yashushanyije ibishushanyo abihanika imbere ku kibaho.

Ikigo cy'amashuri kigaho abana bo mu mashuri yisumbuye, kikaba cyubatse neza gisakaje amabati y'ubururu, harimo kandi amadirishya ndetse imbere yaho hari abana b'abakobwa barimo barakina.

Ishuri ubona ko risa nk'iritangiye gusaza aho ibirahuri byo mu madirishya byatangiye kumeneka bakifashisha utundi dukoresho kugira ngo hatarangara. Hejuru hari irangi.

Mu mashuri ataratera imbere cyane cyane ayo mu Rwanda, usanga bagikoresha uburyo bwa gakondo iyo barimo kwiga, aho bafata ingwa bakaba kwandika ku kibaho ariko aho bateye imbere bakoresha uburyo bugezweho.

Mu cyumba cy'ishuri hakaba hari abana b'abanyeshuri batoya bambaye impuzankano yiganjemo umweru hejuru ndetse na kaki, hari undi upfukamye inyuma yabo hakaba hari icyapa cyangwa se ikibaho bakoresha bari kwiga.

Gahunda yo kugaburira abana ku ishuri saa sita, ni imwe mu zatumye abava mu ishuri bagabanuka, uyu munyeshuri biragaragara ko afite isahani agiye kujya kurya.

Ibyatsi bigufiya bya pasiparumu ariko bigaragara ko byakuze cyane bitigeze byitabwaho, hari ku rukuta abana b'abakobwa n'abahungu bafite imipira itandukanye bisa nk'abari kuyikina.

Mu masaha ya saa sita akenshi usanga mu mihanda harimo haragenda abanyeshuri batandukanye, cyane cyane abiga mu mashuri y'incuke ndetse no mu mashuri abanza, kuko baba bagiye gufata amafunguro ya saa sita.

Abana batoya bahurijwe ahantu hamwe barimo barigishwa gusoma ibitabo kugira ngo bazakure bakunda gusoma, harimo umugore uhagaze hagati yabo wambaye akagofero mu mutwe n'umupira w'umweru, akaba yakenyeye igitenge, hirya yabo hakaba hari inyubako isakaje amategura.

Urukuta rw'ikigo cy'amashuri, hakaba hari urugi ruteye amabara ajya gusa n'umuhondo ndetse n'amadirishya arimo ibyuma ndetse hasi hakaba hateye sima.

Imbuga iteyemo umucanga bikaba bigaragara ko ikiri shyashya, harimo abanyeshuri bicaye ahantu hasakaye, imbere hakaba hari indi nyubako irimo iragendaho abihaye Imana b'ababikira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu kigo runaka, bambaye impuzankano bakaba bari inyuma y'urwinjiriro rw'ikigo. Hari kandi umwe warengejeho umupira w'imbeho.

Ibiti birebire biteye ahantu mu Karere ka Huye hakorera Kaminuza y'u Rwanda, hari uruzitiro rutandukanya iyo kaminuza n'ibindi bigo bihegereye, inyuma hirya hari andi mazu y'amashuri.

Ikigo cy'amashuri cyigaho abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, hari kandi ameza ateretseho icyuma bakoresha kugira ngo bige ndetse hari n'indabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse kikaba gisakaje amabati y'icyatsi, harimo kandi imirongo iteye irange ry'umweru, hejuru yacyo hari umugabo urimo aragenda imbere ye hakaba hari abana.

Umunyeshuri wambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara n'umweru hejuru, ari imbere ku kibaho, arimo arashushanya urukiramende ndetse biragaragara ko ari imyitozo yahawe na mwarimu arimo gukosora.

Imbuga iri hagati mu nyubako nziza cyane ndetse hakaba hari n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari utuyira tunyuramo abanyamaguru turi hagati y'amazu ndetse ayo mazu akaba anasakaje amabati bigaragara ko atangiye gusaza.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo uranyuramo abanyeshuri b'abana batoya ndetse hakaba harimo n'imodoka iriho shitingi y'icyatsi, imbere yayo hari igipangu cyiza gisize amarange y'umweru.

Mu cyumba cy'ishuri, hakaba harimo abanyeshuri bakiri batoya bigaragara ko biga mu mashuri abanza, aho bambaye impuzankano, bicaye mu ntebe imbere yabo ku meza hari amakaye.

Umuhanda w'ibitaka bigaragara ko udakoze neza kuko nta kaburimbo irimo. Hari uruzitiro rwubakishije amabuye ndetse n'amatafari ahiye, mo imbere hakaba hari inyubako yubatse neza.

Inyubako z'ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye n'amabati ajya kuba umutuku ndetse n'ubururu, hari kandi inzugi zaho zisa icyatsi, imbere hari ubusitani ubona ko bamaze kubwangiza.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, aho bicaye batonze umurongo, bambaye impuzangano zabo z'umweru. Imbere yabo, hagaze umunyeshuri mugenzi wabo ndetse n'umuyobozi urimo aragira icyo ababwira.

Mu cyumba cy'ishuri cyigirwamo n'abanyeshuri, hakaba hari intebe abanyeshuri bicaraho, ku kibaho handitseho imibare itandukanye aho bigaragara ko ari imyitozo bari bari guha abanyeshuri nyuma y'uko bagarutse ku ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bari bateraniye imbere y'ishuri ryabo barimo barahabwa imbwirwaruhame n'abayobozi batandukanye. Imbere yabo ku meza hakaba hateretse amazi yo kunywa, hakaba hari n'umugabo uhagaze ufite indangururamajwi arimo aragira icyo ababwira.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu Karere ka Huye mu Murenge wa Ngoma kikaba cyitwa Indatwa n'Inkeshya, imbere yacyo hari akayira k'abanyamaguru kanyurwamo n'abanyeshuri igihe bari mu kigo.

Ikigo cy'ishuri cy'amashuri abanza cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati asa ubururu, mu miryango harimo abanyeshuri bambaye impuzankano irimo umweru ndetse n'umukara.

Abanyeshuri biga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro, aho bambaye impuzankano y'umukara, barimo bariga gukoresha imashini mu bintu bitandukanye, hari kandi umwarimu wabo ubahagaze imbere wambaye itaburiya y'akazi.

Mu cyumba cy'inyubako runaka hakaba harimo hakorerwa ibizamini by'akazi, aho ku meza hari mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi abantu banywa iyo icyaka kije.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bakaba barimo baragenda mu nzira ariko ubona atari nziza kuko nta kaburimbo irimo, inyuma yabo hari inyubako icumbikira abanyeshuri.

Imbuga nziza iherereye mu Karere ka Huye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hari inyubako zikorerwamo n'abayobozi baho batandukanye, harimo umunyeshuri wicaye ku rubaraza hari kandi umugabo urimo aragendamo.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, akaba yambaye marinete afite umusatsi mukeya, arimo aramwenyura bigaragara ko yarimo areba umuntu wamufotoye. Imbere ye hari icyapa cy'umweru kiriho ibintu bitandukanye.

Ubusitani bwiza bwiganjemo ibyatsi bigufiya bya pasuparumu hakaba hari inyubako isakaje amabati ajya gusa umukara, harimo ibirahure kandi na byo bifite ibara ry'umweru bikaba bigaragara ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda.

Igiti kinini cyane, aho giteye ahantu mu ishyamba, hariho akapa kari mu mabara y'umweru kanditseho amagambo agaragaza ibyo gishobora gukorwamo, nko kuba cyakurwamo impapuro, cyangwase bakaba bagikoramo amakara yifashishwa bateka.

Icyumba cy'inyubako runaka hakaba harimo ameza ariho ibitambaro bijya gusa ubururu bwerurutse n'intebe bicaraho, hari kandi Ikirangantego cya Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatse ku buryo bwiza ariko bikaba bigaragara ko ishobora kuba ishaje, aho handitseho amagambo agaragaza ko ari ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyigiro rya Kitabi.

Abanyeshuri bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, iherereye mu kigo cy'amashuri cya Kaminuza y'u Rwanda, ku ruhande hakaba haparitse imodoka abanyeshuri bayo bagendamo, hari kandi n'ikigega cy'amazi ndetse n'amazu.

Imbuga ishashemo amapave ariko bigaragara ko atangiye gusaza, hirya hari shitingi y'umweru yateraniyemo abantu basa nk'abaje mu bukwe cyangwa se mu nama, ku ruhande rw'ibumoso hari kandi abandi bantu bahari ndetse n'iyindi nyubako.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari mu kibuga bakiniramo umupira ariko kitameze neza kuko ibyatsi byamaze kuranduka, hagati hakaba hasa nk'imbuga.

Abantu benshi biganjemo ab'urubyiruko, bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hari igisenge kiriho itara ririmo riramurika.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inyubako ubona ko isa neza, bakaba bari mu nama, bicaye batuje bateze amatwi umugabo uhagaze imbere yabo, urimo arabagezaho imbwirwaruhame.

Abaturage bahuriye mu cyumba cy'inyubako runaka, harimo abadamu ari bo biganje, aho hari n'uwambaye itaburiya y'umukara yanditseho ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Tumba.

Mu mashuri cyane cyane aya kaminuza usanga baba bafite ibyumba byahariwe ibintu runaka, nk'icyahariwe ubushakashatsi cyangwa se ikiba kirimo ibitabo ku buryo umuntu ajya gusoma igihe ashakiye.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye igizwe n'amazu menshi atandukanye, yaba amashuri yigirwamo n'abanyeshuri cyangwa se amazu acumbikira abanyeshuri, hari kandi inyubako zikikije iyo kaminuza na zo zibamo abanyeshuri, ikaba ikikijwe n'ishyamba.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama bakaba bicaye bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bateze amatwi ibyo umuntu ubari imbere arimo kubabwira, kandi bigaragara ko babikurikiye kugira ngo babone ibyo batahana.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, cyane cyane mu tuyira tunyurwamo n'abanyeshuri, hagiye hitabwaho bakaba bahakotera bakahatera sima, hari inyubako nziza cyane zigaragara zikoreshwa n'abanyeshuri cyangwa se ibiro by'abarimu.

Ku nyubako nziza cyane hakaba hari abantu benshi higanjemo ab'igitsina gore, inyuma hari ibiti birebire cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baje bahagana.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ivu ndetse n'ikiganza gifashe icyuma mu ntoki, na cyo gishushanyije mu ibara ry'ivu, biragaragara ko hari ku munsi w'abakozi ku ya mbere y'ukwa gatanu.

Udukoresho turi ku meza twifashishwa n'abarimu, igihe barimo barigisha kugira ngo bagire ibyo bereka abanyeshuri maze birusheho gutuma bagira ubumenyi bwisumbuye ku byo bari ba bigishije.

Mu nyubako y'ikigo cy'ishuri, ahari udukoresho dutandukanye, ni mu cyumba hakaba hari ameza ndetse n'intebe zikoreshwa n'abanyeshuri igihe bari kwiga, ku rukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Abantu biganjemo ab'agaboba bakaba bambaye amataburiya y'umweru bose ndetse n'uturindantoki tw'uburura, barimo baragira ibyo bapima kugira ngo barebe niba ibishoboka ko babikora cyangwa se ibyo bobwira bababeshya.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama ahantu runaka bari kwiga ku mishinga itandukanye, biganjemo urubyiruko, imbere hakaba hahagaze umuntu urimo arababwira igitekerezo cye, ndetse hari n'abandi babiri bicaye.

Icyumba cy'ishuli kibafashishwa n'abanyeshuli, igihe bashaka kwiga ibijyanye n'ubugenge ndetse n'ubutabire, kugira ngo bamenye uko bikora, ndetse nibaba bashaka kugira ibyo bakora babikore, aho kubibwirwa mu masomo gusa.